Umugabo uhetse ipombo mu mugongo, akaba ari kugenda avomerera ibimera. Hanyuma urwego rwo kwica udukoko, dushobora kubibuza kwera neza. Bityo bigatuma umusaruro we udindira.

Abantu bari gukora ibikorwa by'uburobyi bw'amafi mu kiyaga, ubona ko ari kirekire, hakaba hari abagabo bari hejuru, bari kugenda baba kurura rwego rwo kugira ngo bazamure inshundura zabo imusozi.

Aya ni amafi bamaze kuroba, bakaba bagiye kuyagurisha. Aho umworozi wayo ayajyana ku isoko maze abafite amafaranga, bakayagura na we akabona amafaranga, bityo agahora anezerewe.

Aha ni ahabera igikorwa cy'ubworozi bw'amafi, ubworozi bw'amafi ni bumwe mu bworozi bugira amafaranga ku babukora, hakaba hari abantu baje kuyaroba bitwaje ibyo bayatwaramo.

Umugabo wikorera ubworozi bw'amafi ari kumwe n'abana be ari ku byuzi, bose barishimye. Akaba ari gushyira umwayi w'amafi mu cyuzi kugira ngo wororoke maze azabone umusaruro.

uUmusaza wambaye agapira k'umuhondo akaba afite iba irimo amafi mu ntoki ze, avuye kuyaroba mu cyuzi cy'amafi yikoreye. Ni ahantu heza cyane bigaragara ko uyu musaza yiteje imbere akaba ari kungoga.

Uyu ni umugabo ukora akazi k'ubworozi bw'amafi. Akaba yoroye amafi. Imwe yayirobye ari kuyishyira ku munzani ngo arebe ibiro upima. Imbere ye hakaba hari n'akadobo ahita awuterekamo.

Umusore wambaye ijakete ndetse n'ingofero akaba ahagaze mu cyayi ari kugenda yifotoreza ku mababi asa icyatsi kibisi ndetse nasa umuhondo. Ni icyayi kiri mu kibaya kirekire ndetse ku musozi hakaba hari ibiti birebire.

Uyu ni umumama uri mu gihingwa cy'ikawa, yambaye agatebo ndetse yambaye n'imijire ituma ikawa itamwica, akaba ari gusoroma aho agenda aca utubabi muri iki gishanga hose hakaba harimo iki gihingwa.

Ibi ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu, kikaba ari igihingwa kizwi nk'ikawa, gihingwa mu Rwanda aho abagihinga ubungubu bafite amafaranga ahagije kuko cyahawe agaciro.

Umumama uvuye gusarura igihingwa cy'ikawa akaba ayizanye mu gatebo, arishimye cyane, yambaye agapira k'umukara karimo utubara tw'umweru, ateze igitambaro cy'umukara akaba ari kunyura ahantu hari ibimera byiza by'icyatsi kibisi.

Uyu ni umuceri uhinze mu gishanga, ukaba ukoreye neza. Urabagaye ndetse ufite n'amazi, bigaragara ko uzagira umusaruro mwiza kandi uzashimisha umuhinzi.

Aba ni abamama bari gutunganya kawa yabo bamaze gusarura nka kimwe mu bihingwa ngandura bukungu bityo bakaba biteguye kukigusha ku giciro cyiza maze bakibonera amafaranga menshi cyane.

Abamama benshi bari mu cyayi bari kugenda basoroma amababi meza cyane aho barebamo ayeze, ayeze akaba arangwa nuko aba afite ibara ry'umuhondo, muri iki cyayi harimo ibiti birebire ubona ko bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aba ni mama bari gusarura igihingwa cy'ikawa. Kawa ni igihingwa cyiza cyane ingandurabukungu kandi kera neza. Basaruye uduseke ndetse n'indobo urabona ko bishimye ndetse muri iyi kawa harimo n'insina.

Aha ni ahantu hahinzwe igihingwa k'ikawa. Igihingwa k'ikawa, ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, aho usanga abahinzi bagihinga, bacyitaho cyane kuva ba kikimera kugeza bagisaruye.

Umumama wambaye ishati yo mu gitenge ateze igitambaro akaba ahetse igitebo ari kugenda asoroma icyayi aho aca amababi ayajugunya inyuma ndetse hari n'abandi bamama bari inyuma ye nabo bari gusarura.

Aba ni abahinzi bishyize hamwe bakora ishyirahamwe baryita tuzamurane, bambaye imyenda isa bigaragaza ko bakorera hamwe ikaba isa umutuku bari mu ikawa nziza cyane itohagiye bakaba bafite n'ikawa basaruye mu biganza.

Aya ni amoko y'imiti ivura amatungo, iyi miti ikaba iri mu macupa ndetse n'amakarito bigiye bitandukanye, hari iri mu makarito manini ndetse n'indi iri mu macupa manini, hakaba n'iri mu dukarito duto no mu ducupa duto.

Utu ni uducupa ndetse n'udukarito turimo imiti ivura amatungo iyi miti ikaba iri mu moko agiye atandukanye, nayo ikaba ikoreshwa bitewe n'uko itungo ugiye kuwuha ringana.

Aya ni amacupa agiye atandukanye arimo imiti ivura amatungo, ikaba ari amacupa ari mu ibara ry'umukara ndetse n'andi ari mu ibara ry'umweru, ateretse ahantu mu kumba kandi yuzuje ubuziranenge.

Aya ni amacupa arimo imiti igiye itandukanye ivura amatungo, aha rero akaba afunze mu dukarito twiza cyane dufite ibara rya kaki ndetse hakaba hometseho ibyapa bigaragaza ubwoko bw'uyu muti ndetse n'ingano waha itungo.

Uyu ni umuti w'amatungo ukaba upanze mu makarito ndetse uragerekeranyije, umwe uri mu bicupa bibyibushye undi ukaba mu ducupa duto, iyi miti yose yifashishwa mu kuvura amatungo.

Aya ni amakarito afungiyemo amoko agiye atandukanye y'imiti ivura amatungo, hari amakarito y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi ndetse hakaba n'ay'umuhondo n'ubururu, aho yose hagiye handitseho amagambo agaragaza uko iyi miti ikoreshwa.

Aya ni amacupa arimo imiti ihabwa amatungo, akaba afungiye mu bicupa binini by'ibirahuri bifite udupfundikizo tw'urwuma, hasi hakaba hariho ibyapa bitukura ndetse bikaba bigaragaza n'uko iyi miti ihabwa amatungo.

Utu ni udukarito turimo imiti ivura amatungo. Hakaba hari ari mu dukarito duto ndetse n'indi iri mu dukarito tunini, ikaba yifashishwa mu rwego rwo kugira ngo basuzume kandi banarebe ko ivura.

Aya ni amacupa arimo amoko y'imiti ihabwa amatungo, hakaba hari uducupa tw'umweru dufite imipfundikizo y'umweru, hakaba hariho icyapa kiriho amazina y'uyu muti ndetse nuko ukoreshwa.

Aya ni amoko y'imiti yifashishwa havurwa amatungo. Iyi miti ikaba iri mu ducupa. Harimo utunini ndetse n'uduto, iyi miti yose yometseho icyapa kigaragaza, uko ushobora kuwuha amatungo.

Aya ni amacupa arimo imiti igiye itandukanye ivura inyamaswa, aya macupa akaba amwe akozwe mu buryo bw'icyuma, andi akaba akozwe muri parastike, hose hariho agashushanyo.

Aya ni amakarito agiye arimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Turi kubona amashashi arimo utubara tw'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru. Tukabona andi y'ubururu ndetse harimo utuntu duke cyane tw'umuhondo.

Uyu ni umugabo ukora umurimo w'ubworozi, akaba aragiye inka nziza cyane zishishe, aho ubona ko ziri kunyura mu muhanda, hepfo y'umuhanda na ruguru y'umuhanda hakaba harimo imyaka ndetse hazitiye.

Umumama wambaye imyenda y'ibitenge akaba ari mu myaka ye aho ari kugenda ayibagarira, afite isuka akaba agenda abagarira kimwe ku kindi mu rwego rwo kugira ngo byere neza maze abone umusaruro.

Aba ni abahinzi bari kugemurura ingemwe aho bari barazihumbitse ngo bage kuzitera mu mirima bamaze gutunganya. Ni abahinzi barimo abamama ndetse n'abapapa. Bose bafite amabase bari kuzishyiramo.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'amasaka, akaba abukorera mu kibaya kiza cyane kibonekamo imvura ndetse n'amazi yo mu gishanga, akaba afite umusaruro mwiza kandi arasa neza.

Izi ni inka nziza cyane zororewe mu ifamu imeze neza, kandi ikaba ifite ubwatsi bwiza cyane butoshye, akaba ari inka zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, zambaye amaherena y'umuhondo ku matwi.

Iki ni ikibaya gihingwamo ibintu bigiye bitandukanye, kikaba kirimo agahanda mo hagati. Hakaba harimo n'ipiloni itwara umuriro w'amashanyarazi iwukura mu gace kamwe iwujyana mu kandi. Iki kibaya kirimo ibihingwa ngandurarugo, ndetse n'ibihingwa ngandurabukungu.

Iki ni igihingwa bakunze kwita uruyuzi. Iki gihingwa kikaba kirandaranda mu murima kikeraho ibihaza. Kikaba kiri mu bihingwa ngandurabukungu ndetse no mu bihingwa ngandurarugo.

Iki ni igihingwa cy'ikawa. Kawa ni igihingwa cyera buri mwaka. Kikagira amafaranga kuko kiri no mu bihingwa ngandurabukungu gihingwa mu Rwanda, hirya no hino.

Iri ni isoko ricururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye harimo urujya n'uruza rw'abantu hakabamo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo nk'ibirayi, ibijumba, amateke ndetse n'imyumbati, hakaba hari abaje kubigura n'abaje kubicuruza.

Ibi ni bimwe mu bihingwa ngandura bukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo ni ibiti byiza cyane byeraho amavoka ameze neza cyane bikaba bifite amababi y'umuhondo, bifite ingeri zigororotse.

Uyu ni umuhanda wo mu cyaro, ni umuhanda muto cyane w'igitaka. Hakaba hari kunyuramo abantu bagiye batandukanye, abamanuka ndetse n'abazamuka. Iburyo n'ibumoso bw'uwo muhanda, hagiye hari ibihingwa bitanga ibyo kurya.

Ibikorwa by'ubuhinzi bw'urutoki ni bimwe mu bikorwa ngandurarugo ndetse bikaba no mu bikorwa ngandurabukungu aho ushobora kujyana urutoki rwawe ukarugwatiriza muri banki maze ugahabwa inguzanyo ukiteza imbere.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'umuceri. Umuceri ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya ku babikora. Uyu mugabo akaba ari kubagarira umuceri we, mu rwego rwo kugira ngo umere neza maze uzere.

Igihingwa k'ibirayi ni bimwe mu bihingwa byera neza cyane maze bigatanga ibyo kurya ndetse n'amafaranga, abahinzi benshi bakunze guhinga ibirayi muri bumwe mu buryo bwo gushaka imibereho.

lbi n'ibihingwa bigiye bitandukanye, bihinzwe mu murima. lbi bihingwa bikaba birimo iby'ingandurarugo, ndetse n'ibihingwa ngandurabukungu, mu Rwanda bikaba bihingwa hirya no hino.

Iyi ni imirima ikoze mu buryo burambuye ikaba irimo ibihingwa bigiye bitandukanye. Ibi bihingwa birameze bakaba bageze igihe cyo kubibagara aho bigaragara ko biri mu buso bunini bizagira umusaruro uhamye.

Uyu ni umurima uhingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye. Haba ibihingwa ngandurabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo, aho harimo ibiti birebire bigaragara ko na byo byeraho imyaka.

Ubu ni ubworozi bw'inka zororerwa ahantu heza cyane. Ni inka z'inyambo ubona ko ziri ahantu zizihiwe ndetse zikaba zimurika umuco w'Igihugu. Zikaba zizengurutswe n'ibiti byiza cyane byinshi ubona ko bikoze ishyamba.

Iri ni ishyamba ryiza cyane ritohagiye, rikaba riteye ku musozi uhanamye, mo hagati mu ishyamba hakaba hagiye harimo imirima ihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye urugero nk'icyayi ndetse n'ibindi.

Iri ni ishyamba ririmo ibiti, hari uruhande rurimo ibiti bigiye bitandukanye, hari n'ahandi hari byinshi, ibi biti bikaba bikuze. Iri shyamba rigeze igihe cyo gusarurwa ndetse bigaragara yuko ryatewe kera.

Ishyamba ryiza cyane ririmo inyanja hepfo mu gishanga. Iri rikaba rihinzemo n'ibiribwa bigiye bitandukanye. Harimo ibiti biteye mu buryo buhana intera, aho kimwe kibisa ikindi.

Iri ni ishyamba riri ku musozi, rikaba ririho ibiti bitoya. Hasi mu gishanga hakaba hari ibihingwa bigiye bitandukanye, bigaragara ko aha hantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi.

Iri ni ishyamba ryiza cyane, rikaba ririmo ibiti byinshi cyane bigiye byegeranye bifite amashami maremare, bikagira amababi meza y'icyatsi kibisi amanuka agakora hasi, hino gato hakaba hari ibifite amababi y'umuhondo.

Iri ni ishyamba riri ku musozi muremure. Rikaba ririho ibiti bikiri bito ubona ko ari bigufi. Mu gishanga hakaba hari amasina ndetse n'ibindi biti kandi ukabona ko hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi.

Agabasi k'umutuku karimo kayoti. Izi ni kayote zimwe zisa umweru, izindi zigasa umuhondo ndetse hari n'akandi kabase k'ubururu, karimo ibitunguru. Hakaba hari abantu babiri bateruye tuno tubaze.

Aba ni abantu bikorera ibikorwa by'ubuhinzi, aho bagenda bahumbika imbuto maze abashaka kuzihinga bakaza kuzibagurira, bari gukora uturima duto bagenda bahumbikamo amoko y'imbuto.

Ipapayi nziza cyane yeze amapapayi menshi. Harimo izahishiye zisa umuhondo n'izindi zisa n'icyatsi kibisi. Amababi y'aya mapapayi akaba asa umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umumama wambaye imyenda isa ijipo ndetse n'ishati, afite umupira urimo amazi akaba ari kuvomerera amashu, ni umurima w'amashu weze neza cyane ukaba ukikijwe n'ibiti byiza cyane bifite amababi y'icyatsi kibisi.

Aba ni abaganga bambaye impuzankano z'umweru ,ni benshi cyane bakaba bari kwiga ko bibaza uburyo bahindura system bakoramo, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bahabwe ubuvuzi mu buryo bwihuse.

Uyu ni umugabo wambaye agapira k'ubururu, karimo uturongo tw'umweru ku maboko, yambaye ingofero y'ubururu ndetse n'umweru, afite umupira akaba ari kuhira imyaka ye ,kugira ngo imere maze ikure imeze neza.

Ubu ni bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kuhira imyaka, ni itiyo icometseho andi matiyo, aho amazi aturuka mu gace kamwe akajyanwa mu kandi, maze hose hakuhirwa kandi ibimera bikamera neza.

Ni umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, akaba afite itiyo mu ntoki ari kuvomerera ibihingwa mu rwego rwo kugira byere neza. Ni ibihingwa byiza cyane bihinzwe mu buryo bugezweho, kandi bikaba byitezweho umusaruro mwiza.

Uyu ni umusore uri kuhira imyaka. Hakaba hahagaze umusore imbere y'amazi ari kuzamuka, aho ayategesha ikirenge n'ikiganza kugira ngo akarabe, inyuma ye hakaba hari ibiti byiza ndetse n'undi muntu.

Umugabo ufite itiyo akabari kugenda avomerera imyaka, yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ndetse n'inkweto zifunze, akaba yambaye n'agapfukamunwa, ari kuvomerera ibihingwa bye bimeze neza cyane bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Iyi imashini kabuhariwe kandi igezweho, yifashishwa mu kuhira ibimera, aha bakaba bayishyira mu kidendezi maze ikazamura amazi, ibimera bikabasha kuyabona bitagoranye.

Uyu ni umubyeyi uri kuvomerera imyaka ye, ni mu mboga nziza cyane zishishe kuko zibona amazi, aya ni amazi ari kuva muri rozwari y'icyatsi kibisi, uyu mugabo akaba yambaye igisarubeti ndetse n'ishati.

Umugabo ufite rozwari mu ntoki afite ebyiri mu kuboko kw'iburyo ndetse n'ukw'ibumoso. Akaba ari kuvomerera ibimera byiza cyane bishishe kandi bifite ibara ry'icyatsi kibisi. Aho agenda abikora kugira umusaruro wiyongere.

Umumama wambaye ishati, akaba akenye igitenge kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, ahagaze mu murima afite umupira urimo amazi ari kugenda ayavomerera mu rwego rwo kugirango azere neza, maze nawe yiteze imbere.

Aha ni ahabera igikorwa cyo kuvomerera imyaka hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, aho amazi ari guturuka mu butaka agwa ku bimera biri hano, ni ibimera byiza cyane kandi bishishe.

Imisozi ndetse n'ibibaya hariho imyaka myiza cyane isa icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, hakaba hari ababyeyi bikoreye udutebo. Bisa nk'aho baje kuhira cyangwa se gusarura.

Uyu ni umusozi mwiza cyane, ukaba urambuye ndetse mu kabande harimo inyanja itemba, hakaba ibiti byiza cyane bifite amababi y'icyatsi kibisi, bigaragara neza ko ibi ibiti byabonye amazi.

Imisozi n'ibibaya byiza cyane, biriho ibihingwa bigiye bitandukanye. Hari ibihingwa birebire, bifite amashami. Hakaba ndetse n'ibindi bihinze mu kibaya, bigufi bigaragara ko bifite umusaruro.

Aha aha ni ahantu heza cyane harimo imisozi ndetse n'ibibaya. Ni igishanga kirimo umugezi, bigaragara ko ari ikiyaga kirimo amazi meza cyane. Kizengurutswe n'ibiti bimeze neza bifite amababi atohagiye.

Iki ni ikibaya giteyemo ibimera bigiye bitandukanye, iki kibaya kikaba gitanga umusaruro ku bagikoreramo kuko ari kinini kandi kikaba kibona amazi bityo abagikuyemo bakabasha kugira umusaruro uboneye.

Iyi ni imisozi myiza cyane ihanamye ariko iriho ibihingwa bimeze neza ndetse n'amashyamba, harimo igiti kirekire ubona ko cyakuze kandi ukabona ko aha hantu ari heza cyane mu buryo butangaje.

Aha ni ahantu heza cyane hari imisozi ihanamye iriho ibihingwa ndetse n'ibiti bimeze neza, hakaba harimo ikibaya kirimo ikidendezi kiza cyane n'amazi y'urubogobogo ubona ko yakoze ikiyaga.

Imisozi myiza cyane ifite ibibaya bihinzemo imyaka, ni imisozi iriho amashyamba ubona ko ameze neza, ndetse n'imyaka iri mu kabande irasa neza iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, aho abahinzi bishimye.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubworozi bw'amatungo agiye atandukanye, harimo umugabo bigaragara nk'aho ari we ucunga amatungo aba ari hano, hakaba hari ibiraro biriho uruzitiro rwa senyenge.

Ubu ni ubworozi bw'imbata ndetse n'inkoko. Bukaba bukorwa n'abantu bamaze gusobanukirwa neza icyiza cy'ubworozi ndetse kandi bikaba bibaha umusaruro uhagije ku buryo nta muntu wabitekereza.

Inka nziza cyane zishishe zikaba ziri mu rwuri, izi nka zirimo amabarage agiye atandukanye, hari izifite amabara y'umukara, amabara y'umweru ndetse zose zikaba ziri kurisha ahantu hari ubwatsi bushishe.

Uru ni urwuri rurimo inka nyinshi kandi zigiye zitandukanye, hakaba harimo ubwatsi bushishe kandi butohagiye, izi nka zikaba zorowe mu buryo bwiza bwizewe, bityo bigatuma zitanga umukamo.

Aha ni ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ingurube ndetse n'inkwavu, harimo ingurube ubona ko zorowe neza kandi zibayeho neza zitanga umusaruro ku bazorora kandi bakishima.

Abahinzi ndetse n'aborozi bamaze kumenya ko isaba ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bagateza n'imbere ubworozi bwabo, aha hari imashini nziza cyane yifashishwa mu gutunganya umusaruro ukomoka ku bworozi bw'inka.

Mu rwanda ubworozi bw'amatungo yose busigaye bubera mu ngo, nyuma y'uko babonye yuko gushumu inka zikajya mu gasozi, bituma zigira uburwayi kandi bugakwirakwira mu buryo bworoshye.

Ni ubworozi bukorwa mu buryo bwemewe kandi bunogeye ijisho, aho umworozi yubaka ikiraro maze agahinga ubwatsi. Iki ni ikiraro kirimo inka nziza cyane bigaragara ko yariye ubwatsi ikaba ihaze ariko yabumaze.

Ni ubworozi bw'amatungo agiye atandukanye, aha bakaba bororeye mu rwuri rumeze neza. Harimo ihene nziza cyane z'imishishe, ubona ko zariye neza bityo zikaba zitanga umusaruro kuri ba nyirazo.

Ni ifamu irimo inka nziza cyane kuko hari n'ubwatsi bwiza butoshye, zirarisha na zo zirashishe cyane. Hakaba hari n'ishyamba ririmo ibiti bisa icyatsi.

Aha ni ahabera ubworozi bw'inkoko, aborozi bakunze kororera ahantu heza cyane, aha harimo utubido ndetse n'utudobo izi nkoko ziriramo ndetse zikananyweramo bityo bigatuma zikura vuba.

Aha hari imashini zitunganyirizwamo umusaruro uva ku mukamo w'amata, harimo ibyuma byinshi cyane biyatunganya bityo bigatuma atangirika, cyane cyane ko umukamo ari kimwe mu bintu by'ingenzi.

Aha ni ahari gukorerwa ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bwunguka vuba, cyane cyane nk'aha turi kubona inkoko nyinshi cyane kandi zororotswe mu buryo bwihuse.

Uru ni urwuri rurimo inka nziza cyane nyinshi kandi ziteze amahembe. Hakaba hari abavuzi b'amatungo bambaye amataburiya y'ubururu, hakaba hari n'abashinzwe kuzitaho bambaye amasarubeti.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko, hakaba harimo inkoko nyinshi cyane ziri gutoragura, bazigaburiye ku mifuniko, ku ndobo ndetse no mu mabasi. Ni inkoko nyinshi cyane bigaragara ko zororotse nyirazo aranezerewe bitavugwa.

Iyi ni inyubako yororerwamo inyamaswa, kuva aho bafashe umwanzuro wo kororera mu ngo maze izasohokaga ku gasozi bakazikumira ndetse bagahinga n'ubwatsi kugira ngo zihaze, abantu bagiye bubaka ibiraro byiza cyane bigaragara neza.

Aha ni ahabera ubworozi bw'amatungo magufi aba bakaba boroye ihene, ni ihene nziza cyane zirimo amabara y'umweru ndetse n'umukara zikaba ziri mu ruzitiro rugizwe na senyenge.

Izi ni inkoko nyinshi cyane. Biragaragara ko aha hakorerwa ubworozi bw'inkoko kandi bwa kijyambere, hejuru hakaba hariho amatara ndetse izi nkoko zikaba ziri kugenda zitemberera zitoragura.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bukorerwa mu Rwanda. Abahinzi ndetse n'aborozi borora inkoko bakunze kubona umusaruro mwinshi kandi mu buryo buboroheye.

lri n'isoko ry'ubucuruzi bw'ubucoco kandi bugiye butandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwihahira, ndetse hakabamo n'abacuruzi batandukanye ,ibicuruzwa birimo bitandukanye, biri mu tubase, mu mifuka, ndetse no mu ndobo.

Iyi ni imbuto y'ibirayi yatunganyijwe neza. Ibi birayi byarasaruwe biranikwa maze bikaba bigiye kongera guhingwa mu rwego rwo kugira ngo hazaboneke umusaruro mwiza cyane kandi urambye.

Uyu ni umubyeyi uri gutegura imbuto nziza cyane ya soya, akaba ari kugenda ayishyira mu gitebo kimuri imbere. Ni umubyeyi wambaye imyambaro y'ubururu akaba yambaye agakufi ku kuboko kwe, bigaragara ko ari gutegura imbuto ngo ajye guhinga.

Uyu ni umuganga w'amatungo, yambaye impuzankano y'ubururu, ikaba ari isarubeti. Yambaye bote z'umweru. Afite agasanduku k'ubururu gafite umupfundikizo w'umweru. Akaba ari gukuramo umuti ngo avura amatungo.

lnka nziza cyane zikaba zitohagiye ziri mu rwuri ,n'inka nyinshi zifite amahembe meza maremare, zizwi nk'inyambo. Hakaba harimo n'umuganga w'amatungo uzikurikirana, mu buzima bwa buri munsi.

Abavuzi b'amatungo bazwi nk'abaveterineri bakunze kuba bafite ubuhanga kandi badatinya inyamaswa. Aha turabona ibiganza by'abantu bambaye uturindantoki tw'ubururu, bakaba bari gutera umuti itungo.

Aha ni ahari ubworozi bw'inka. Hakaba hari abaganga babiri baje kuzivura. Harimo umwe wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kwambara uturindantoki tw'ubururu n'undi wambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse na bote z'umweru.

Aha ni habera ubworozi bw'inka. Hakaba hari inka nziza z'inyambo zigaritse amahembe, hakaba hari abaganga b'amatungo bambaye impuzankano y'umweru ndetse hari n'abashinzwe kuyitaho bambaye ibisarubeti by'ubururu.

Abavuzi b'amatungo nabo bakunze kuba boroye, iki ni ikiraro cyiza cyane ushobora kororamo amatungo magufi urugero nk'inkwavu, inkoko, imbata ndetse n'ihene.

Abana abavuzi b'amatungo bakaba bicaye ahantu hamwe aho bari gusuzuma ibizamini bafashe amatungo kugira ngo barebe ko nta ndwara z'ibyorezo afite, ni ukugira ngo bamenye uko bayarinda.

Abaganga b'amatungo na bo bajya bagira amahugurwa ndetse bagira n'aho basuzumira ibyo bakusanyije. Aha harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, n'uturindantoki tw'ubururu, aho ari kugenda areba mu kuma gapima.

Iyi ni inyamaswa y'intare iryamye hasi,y ikaba ifite amabara y'umukara, umuhondo, ndetse n'umweru iryamiye munsi y'ibyatsi bisa icyatsi kibisi hakaba hameze neza cyane.

Inyamaswa zifite uduhembe tureture zihagaze mu nyanja rwagati ndetse zikaba ziri kwinywera amazi y'umugezi utemba, ruguru yazo hari ishyamba ryiza cyane rifite ibiti ndetse hakaba harimo n'ibyatsi byiza.

Aha ni ahororerwa inyamaswa. Harimo inyamaswa nyinshi cyane hakaba hari n'abantu bahaparitse amamodoka agiye atandukanye ari mu mbara y'umweru ndetse n'umuhondo bakaba baje kwirebera ubwiza bw'izi nyamaswa.

Ubu ni ubworozi bw'imbata bubera ahantu hagiye hatandukanye. Imbata nyinshi zikunze kororerwa ahantu hari amazi kuko mu byo zikunda harimo no koga, iyo zoze ziranezerwa maze zikagira umusaruro.

Inyayamaswa y'imvubu ni zimwe mu nyamaswa ziba zibyibushye cyane kandi ntizitinye amazi, aha turi kuhabona imvubu iri kumwe n'umwana wayo aho biri kugenda bitambuka mu nyanja ubona ko nta kibazo bifite.